Umusore mwiza, muremure, ushinguye, uhagaze, umusore akaba ahagaze ahantu, bigaragara ko intebe ahagazemo inyuma ye, zifite ibara ry'umutuku, iruhande rwe hakaba hicaye undi mugabo, inyuma y'aho yicaye hakaba hari inzu, ifite yubakishije amatafari.

Abantu bicaye ahantu aba bantu bakaba bari mu ngeri zigiye zitandukanye harimo abagore, abagabo n'abasore bambaye imyenda y'umukara kandi bambaye imyenda ifite amabara y'umweru hakaba harimo umwe wambaye umupira uriho ibendera ry'igihugu, bakaba bareba ku kintu kiri imbere yabo bari kureba cyangwa umuntu uri kubabwira ibintu runaka.

Abantu bateraniye hamwe bigaragara ko bari nko mu nama, hari abantu bicaye, imbere yabo hakaba hari abandi bahagaze bari kureba, abo bantu bakaba higanzemo abambaye imyenda y'umutuku, imyenda y'umweru, iy'ubururu n'indi, abandi imyenda y'umukara.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, uwo mugabo yibwira ko ahagaze imbere y'abantu nubwo batagaragara, bigaragara ko hari imbwirwaruhame ari kubagezaho. Umugabo akaba yambaye ishati ifite amabara y'umukara, inyuma hakaba hari ibitambaro bifite amabara y'ubururu, umutuku n'umweru.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru icyo kibuga kikaba kigaragara ko aho abakinnyi bakinira hafite ibara ry'icyatsi harimo ibyatsi icyo kibuga akaba ari kugaragara urutonde rw'amakipe agiye ashobora kuba agiye gukinira muri icyo kibuga urwo rutonde rukaba rwanditse mu mabara y'umuhondo abandi banditse mu mabara y'umweru hasi hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu.

Bicaye ahantu mu cyumba cyangwa se ahantu hakorerwa inama, bigaragara ko bicaye buri wese imbere ye ku meza hari mudasobwa n'icupa ryamazi. Abantu bakaba bambaye imyenda igiyi ifite amabara atandukanye harimo abambaye imyenda ifiteba ibara ry'umukara, abambaye imyenda ifite amabara y'umweru, abambaye imyenda ifite amabara y'umuhondo. Ayo meza bicayeho akaba afite ibara ry'umweru.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba bigaragara ko bashobora kuba bari mu nama muri abo bantu hakaba arimo abambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye harimo abambaye imyenda ifite amabara y'umukara harimo abambaye imyenda ifite amabara y'umweru n'abambaye imyenda ifite amabara y'umutuku abantu babiri bicaye imbere umwe muri bo yambaye amadarubindi undi ntayambaye muri abo bantu buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi.

Abantu bateraniye ahantu mu cyumba bicaye, abo abantu bikaba bigaragarako bashobora kuba bari nko mu nama uko bari kwandika, imbere yabo abicaye bakaba imbere yabo hari ameza buri wese imbere hakaba hari icupa ry'amazi, buri wese bigaragara ko ari kwandika, icyo cyumba barimo kiba kigiye gifite amabara atandukanye ku ruhande rumwe n'umweru urundi ikigina.

Umugore uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki kubera ko hari abantu ari kubwira , umuntu ukize akaba afite igitabo inyuma ye akaba hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu kikaba cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru umugore akaba yambaye imyenda y'amabara y'umukara hejuru akaba yambaye ishati iri mu mabara afite ibara ry'umutuku, umweru n'andi ajya gusa n'ubururu.

Abantu bicaye ahantu mu cyumba, bigaragara ko ari nk'inama bajemo. Abantu bakaba bari mu ngeri ziganjemo abadamu, abandi bakaba ari abagabo, urubyiru ko ari rukeya. Abantu bambaye imyenda ifite amara atandukanye umweru, umukara, ubururu n'umutuku. Muri abantu hakaba hari kugaragaramo umukozi ushinzwe umutekano dukunze kwita abasirikare.

abantu bicaye ahantu mu cyumba kinini cyangwa se uruganiriro rwakira abantu benshi, abantu bakaba bari mu ngeri zigiye zitandukanye, uko bigaragara imbere hakaba hicaye abashinzwe umutekano, harimo abo dukunze kwita abasirikare n'abo dukunze kwita abapolisi, inyuma yabo hakaba hicaye n'abaturage bisanzwe bigaragara ko bashobora kuba baje kwitabira iyo nama.

Umugabo uhagaze imbere ahantu, na we ko hari abantu n'ubwo batagaragara ashobora kuba kubwira, umugabo akaba yambaye ishati y'amaba y'ubururu n'umweru, akaba yambaye isaha, akaba yambaye n'amadarubindi, uwo mugabo imbere ye hakaba bigaragarara ko hari ameza, atetseho icupa ry'amazi n'indangururamajwi.

Abantu bigaragara ko bashobora kuba higanjemo urubyiruko bateraniye ahantu mu cyumba, bari kubigisha ibintu runaka, imbere yaho bicaye hakaba hari intebe hakaba hari abantu babiri bahagaze imbere, bose bakaba bari kubyina imbere yabo hakaba hari abandi bicaye bari kubareba, abo bari imbere.

Ababyinnyi gakondo bari kubyina ahantu mu kibuga bigaragarako ari ahantu gashobora kuba habereye ibirori cyangwa se ibindi bintu byahuje abantu benshi, ababyinnyi bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu n'umweru, abandi bakaba bambaye iziri mu mabara y'umutuku n'umukara n'ubururu, bakaba bari kubyinira ahantu bigaragarako ari ahantu nko mu busitani imbere yaho hakaba hubatse ihema, ryicayemo abantu bishobora kuba bigaragarako bari kureba abantu uko babyina.

Abana b'abakobwa bambaye neza rwose, bambaye imyenda dukunze kwita imikenyero, bambaye iyo myenda ikaba yiganjemo iy'umweru n'umukara, bikaba bigaragara ko bari ahantu mu kibuga baashobora kuba bari kubyina inyuma yabo bakaba hateye ibiti.

Umubyeyi uri ahantu mu cyumba bigaragara ko ari ahantu icyo cyumba cyubatse mu buryo bwa kinyarwanda umubyeyi akaba ari gusya ku rusyo bigaragara ko urwo rusyo ari ushobora kuba ari kurusyaho amasaka akoresheje uburyo bwa kinyarwanda twita gusya.

Umukobwa wambaye impuzankano babyinana iyo dukunze kwita imishanana cyangwa se imikenyero, akaba yambaye urunigi mu ijosi, mu mutwe akaba yambaye udutambaro ababyinnyi bambara, umukobwa akaba ari kubyina imbyino za Kinyarwanda bigaragara ko abizi neza bitewe n'uko ari kugaragara.

Ibikoresho bya kinyarwanda bitandukanye, harimo intebe ya kinyarwanda, abantu bikunda kwicara aho ba kera, hakabamo umuheto, hakabamo umukeka, abantu bakundaga kwicaraho, ibyo bikoresho bikaba biri ahantu mu cyumba na cyo bigaragara ko cyubatse mu buryo bwa kinyarwanda.

Ababyinnyi gakondo bateraniye ahantu mu cyumba, bigaragra ko bari kubyina neza imbyino gakondo, abo babyinnyi bakaba bambaye impuzankano iri mu mabara y'umukara n'umweru, umwe muri abo babyinnyi ku ruhande we akaba yambaye impuzankano y'amabara y'umweru n'ubururu, bakaba imbere y'abo babyinnyi hicaye abantu bari kwitegereza abo babyinnyi, uko babyina neza rwose.

Umugabo cyangwa se umusore bigaragara ko yambaye ibya kinyarwanda nko kubw'abami, akaba yambaye yiteze urugori, bikaba bigaragara ko yambaye n'urunigi mu ijosi, umugabo akaba yambaye n'umupira ufite amabara y'umukara n'umweru, bigaragara ko yambaye rwose bya kinyanyarwanda.

Ingoma za kinyarwanda ziri ku murongo, izo ngoma zikaba ari enye, izo ngoma bikaba bigaragara ko bashobora kuba bari gukora igikorwa dukunze kwita kuzonsa, konsa, aho zihagaze hakaba hakigizwe n'ibiti byinshi kandi izo ngoma zikaba zifite ibara ry'ikigina n'umukara hejuru.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bakaba bafite amasuka n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nk'imipanga cyangwa se umuhoro. Baba bari ahantu bigaragara ko bari kugenda mu muhanda ahantu bigaragara ko ari mu cyaro bakikijwe n'ibiti byinshi bigaragara ko abantu kuba bagiye gukora igikorwa dukunze kwita umuganda.

Ifoto iri kugaragaza inzu nyinshi cyane. Izo nzu zikaba zifite amabati y'umutuku, izo nzu ziba zikikijwe n'ibiti birebireka ari nk'ibitanga amahumbe ahantu biri. Imbere y'izo nzu hakaba hari inkingi ifatiyeho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umukozi ukora mu bijyanye n'amashanyarazi, umukozi akaba wambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu, umukozi ahagaze imbere y'icyuma bigaragara ko ari nk'icyo bareberamo umuriro winjiye cyangwa uwasohotse, icyo cyuma kiba gifite ibara ry'umukara hejuru ahagana hejuru hakaba hari akandi kuma bareberamo imibare gafite ibara ry'umweru n'irijya gusa n'ubururu.

Abakozi bakora imirimo igendanye n'ibijyanye n'amashanyarazi, bambaye impuzankano ifite ibara ry'icyatsi n'umweru hejuru, bakaba bambaye uturinda mutwe, dufite ibara ry'umweru n'umutuku, muri abo bakozi bose bakaba banambaye n'udupfukamunwa, bigaragara ko bashobora kuba bari nko gukora imirimo igendanye n'akazi kabo ka buri munsi.

Abagabo bahagaze ku nkingi zitwara umuriro w'amashanyarazi, bakaba bigaragara ko bafashe ku nsinga zijya mu bice bigiye bitandukanye, bikaba bigaragara ko iyo nkingi bariho ari ndende cyane, abagabo bakaba bambaye uturindamutwe.

Abagabo babiri bahagaze ahantu hejuru bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu n'ikigina, bakaba bambaye n'uturindamutwe turi mu mabara y'umweru, bikaba bigaragara ko abantu bishoboka ko bari gukora nko mu ruganda rutanganya umuriro w'amashanyarazi.

Inyingi ndende cyane bigaragara ko ifatiyeho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, iyo nkingi akaba ari abagabo bayuriye bigaragara ko hari ibintu bari gukora mu bigendanye'umuriro w'amashanyarazi, ikaba ifatiyeho insinga zijya mu byerekezo bitandukanye kandi izo nsinga zikaba ari nyinshi.

Ibikoresho byifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi biri ahantu mu cyumba ibyo bikoresho bikaba biri mu mabara y'umweru muri ibyo bikoresho mbere aho bashobora kuba bareberamo nk'imibare iri kujya muri ibyo bikoresho cyangwa se umuntu ushobora kuba umaze kwinjiramo cyangwa usohotsemo kubera ko hari uturahuri tuhakinze.

Umukozi ukora mu bijyanye n'amashanyarazi umukozi akaba yuriye ku rwego yuriye inkingi itwara cyangwa se ifatiraho insinga zitwara amashanyarazi umukozi akaba yambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu iyo nkingi yu akaba afatiyeho insinga eshatu ebyiri zijya mu ruhande rumwe n'urundi rumwe rujya mu ruhande ryarwo.

Abantu benshi bari kumurongo bigaragara ko bari gukurura umugozi. Muri aba bantu hakaba harimo bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, hari abambaye imyenda ifite amabara y'umweru n'umukara abandi bakaba bambaye imyenda ifite amabara yiganjemo ay'umukara. Abantu hakaba arimo ab'ingeri zitandukanye: abagore, abakobwa n'abasore.

Amapoto abiri afatiyeho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi. Kuri ayo mapoto hakaba hateretseho udusanduka dutanga umuriro w'amashanyarazi. Dushinzwe kuwongera cyangwa kuwugabanya mbere y'uko usakazwa ahantu mu mago y'abantu. Ayo mapoto akaba akikijwe n'ibiti bitandukanye.

Ikigo bigaragara ko giswatwa hari n'ikigo gitunganyirizwamo ibigendanye n'amashanyarazi. Akaba ari ahantu hari ibikoresho byinshi kandi bigaragara ko ari ibikoresho biteye imbere. Bishobora kuba hari ibikoresho byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ku baturage. Aho hantu hakaba hakikijwe n'imisozi iteyeho ibiti byinshi.

Umuntu ari kugaragara ibiganza bye bibiiri bikaba bigaragarako ari ahantu hashobora gukorerwa kuba hakorerwa ibigendanye n'imirimo y'amashanyarazi cyangwa se ari ahaturuka umuriro w'amashanyarazi, bigaragarako wenda ashobora kuba ari gukora nk'ibyaba byapfuye cyangwa se ari kubyitaho.

Abantu bigaragara ko hashobora kuba ari mu ruganda rutunganya cyangwa se rutanga amashanyarazi, ahantu bigaragara ko hari ibikorwa byinshi byifashishwa mu gutanga amashanyarazi, ibyo bikorwa byubatse mu buryo bukoranye ubuhanga cyangwa se uburyo buteye imbere.

Abakozi bakora ibigendanye no gukora inzugi bifashishije ibyuma, bikaba biri ahantu bigaragara ko ari aho bakorera. Hakaba hari inzugi n'amadirishya bigaragara ko ari ibyo bakoze, ibyo bakoze bikaba barabiteye irangi ry'umutuku.

Ahantu ushobora kuba ko ari aho dukunze kwita mu gaciro hakorerwa ibintu bigiye bitandukanye. Hakaba hakoraniye urubyiruko rwinshi rwiteje imbere, bigaragara ko ruri gukora ibikoresho bitandukanye twifashisha mu buzima bwacu, harimo inzugi ndetse n'amadirishya dukoresha mu bikorwa bijyanye n'ubwubatsi.

Umukozi ukora mu bijyanye n'amashanyarazi, bigaragara ko yuriye inkingi ifatiraho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abantu, iyo nkingi ikaba iriho ibikoresho byinshi bijyana umuriro mu ngo z'abantu, kuri iyo nkingi hakaba hafatiyeho n'urusinga runini ruzana umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo wambaye umupira ufite amabara y'umutuku n'uturongo dufite amabara y'umweru n'umukara mukeya, umugabo bikaba bigaragara ko afashe kuri mubazi ibara umuriro w'amashanyarazi, bigaragara ko ashobora kuba ari kureba nk'umuriro ugezemo cyangwa se umaze kuvamo.

Umukozi bigaragara ko ashobora kuba ari umukozi ukora mu kigo gishinzwe gutanga umuriro w'amashanyarazi. Hakaba hari kugaragara amaboko ye abiri yombi. Ukuboko kumwe gufite mubazi irimo imibare, ukundi ufite insinga, bigaragara ko hari ibintu ashobora kuba arigu guhuza mu rwego rwo kugira ngo umuriro w'amashanyarazi uboneke.

Amashuri yubatse ku buryo bumwe, atondetse ku murongo umwe, bigaragarako ari amashuri menshi, aya mashuri bikaba bigaragara ko yubakishije amatafari, ayo mashuri hagati yayo hakaba haciyemo umuhanda, kuri uwo muhanda bigaragara ko hateye hateye imikindo cyangwa se ibindi biti byo ku muhanda.

Inzu nyinshi zubatse mu buryo bumwe, izo nzu zikaba zubakishije amatafari ahiye, izo nzu zikaba zisakaje amabati y'umutuku, hirya y'izo nzu hakaba hagaragara umusozi munini uteyeho ibiti, bikaba bigaragara ko buri nzu, hari urutsinga rw'amashanyarazi ruyijyaho, ruyihereza umuriro w'amashanyarazi.

Abantu bahagaze hamwe ku murongo imbere y'inzu yubakishije amatafari abantu bakaba bambaye impuzankano ifite amabara y'umweru hejuru umwe muri bo akaba ariwe wambaye ifite ibara ry'ubururu, aba bantu bikababa bigaragara ko bashobora nk'abakozi ba leta bakora mu bigendanye n'ubuvuzi cyangwa se ibindi.

Bigaragara ko ari ku kiraro icyo kiraro kikaba cyubakishije ibyuma biri mu ibara ry'icyatsi bikaba bigaragara ko icyo kiraro kiri gucaho abantu benshi bo mu ngeri zitandukanye harimo abagore, abagabo n'abasore hakurya yabo hakaba hari kugaragara ibiti byinshi.

Inzu nini bigaragara ko ishobora kuba ari inzu ya leta iyo nzu ikaba iri mu mabara y'ubururu n'i ibara ryenda gusa n'ikigina gisa nk'ikigaragara cyangwa ikigina cyerurutse iyo nzu imbere yayo hakaba haparitse imodoka bikaba bigaragara ko iyo nzu ashobora kuba ari nk'ahantu leta ikorera cyangwa se aho dukunze kwita ku rukiko

Inzu zubatse ahantu hamwe, izo nzu zikaba zubakishije amatafari, zikaba zifite amadirishya n'inzugi biri mu mabara y'ubururu, muri imbere z'iyo nzu hakaba haparitse moto, izo moto zikaba zihambiriyeho ibicuba bitwara amata, bikaba bigaragara aho hantu hashobora kuba ari nk'ahantu aborozi bakusanyiriza amata yabo.

Ahantu hakikijwe n'ibyuma biri mu mabara y'umutuku n'umweru aha hantu bishobora kuba bigaragara ko hakusanyiriza amazi iruhande rw'aha hantu hakaba hateye ibyatsi hakaba hagaragara ko aha hantu hashobora kuba ari nk'ikusanyirizo ry'amazi cyangwa se aho bayungururira amazi bagiye gukwirakwiza mu baturage cyangwa bifashisha buhira nk'imyaka.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bishobora kuba bigaragarako ku nyubako ya leta, abantu bakaba bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye abambaye imyenda ifite amabara y'ubururu, umweru, umukara, umutuku. Iyonzu ikaba yubakishije amatafari, ikaba ifite amabati y'umutuku ariko iyonzu bishobora kuba bigaragarako ari ahantu bakirira abantu bashaka gusohoka mu igihugu cyangwase abari kwinjira mu igihugu.

Inyubako ya leta bigaragara ko imbere yayo hari ibendera rigaragaza ko ari inyubako ya leta, iyo nyubako ikaba ikikijwe n'amabuye agiye ayizengurutse yubatse neza, iruhande rwayo hari ubusatani nabwo bumeze neza butuyemo ibiti bigiye bitandukanye harimo n'ibiti dukunze kwita imikindo, iyo nyubako ikaba iri mu ibara ry'umweru ifite amabati y'umutuku.

Ikigo cy'amashuri cyubatse ahantu inyuma yacyo hakaba hateye ibiti byinshi bishobora kuba ari ishyamba. Muri icyo kigo hakaba hari kugaragara imodoka iri gusohoka muri icyo kigo, imodoka iri mu mabara y'umweru. Icyo kigo kikaba gisakaje amabati y'ubururu, icyo kigo kikaba gikikijwe n'imihanda igiye ikizengurutse.

Ikiraro kigaragara ko ari ikiraro cyubatse neza mu buryo bwa kijyambere, icyo kiraro kikaba gikikijwe n'ibyuma biri mu ibara ry'icyatsi, hakurya y'icyo kiraro hakaba hari kugaragara imodoka igiye gucaku iri kuza ashaka guca kuri icyo kiraro hakaba hari n'abantu benshi cyane hafi y'icyo kiraro hakurya hakaba hari ibiti byinshi.

Abantu bahagaze ku kiraro ku murongo, icyo kiraro bikaba bigaragara ko ari icyararo kinini cyane icyo kiraro kiba gikikijwe n'ibyuma biri mu ibara rijya gusa nk'ikigina cyangwa se ivu, hakurya'icyo kiraro hakaba hari kugaragara umusozi muremure cyane uteyeho ibiti.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, cyandikishije amabara y'ubururu n'umukara. Icyo cyapa kuko bigaragarara kikaba kiri kugaragaza aho Akarere ka Nyagatare gaherereye, uwo murenge, akagari n'umudugudu n'isibo by'aho hantu.

Icyapa kigaragaza umupaka w'igihugu. Kuri icyo cyapa hakaba handitse ko ugeze mu Bugande. Ahandi hirya yacyo hakaba hari ibiti binini cyane, hafi y'ibyo biti hakakaba hari inkingi zifatiyeho insinga zitwara umuriro w'amashanyazi.

Umuhanda uri kugendamo abantu bagiye batandukanye, kuri uwo muhanda hakaba hateyeho inkingi zifasheho amatara amukira abagenda kuri uwo muhanda, hakurya urebye hakaba hari inzu nyinshi, bigaragara ko hashobora kuba ari ahantu mu isoko, izo nzu zikaba zisakaje amabati y'ubururu, imbere yazo hakaba hateye ibiti bishobora gutanga umuyaga ku bantu bahakorera.

Abantu bari ahantu bigaragaye ari ahantu mu mibyare, akaba ari abantu harimo n'abashinzwe umutekanobo dukunze kwita abapolisi, bakaba bari kumwe n'abandi bagabo. Akaba ari ahantu mu mibyare harimo intebe bigaragara ko ari nk'ahantu hakorerwaga ibikorwa bibi.

Abantu bigaragara ko bashobora kuba baje ahantu mu birori. Aho bicaye bakaba bicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru hejuru. Bakaba bazengurutswe n'ibiti birebire, bigaragara ko ibyo biti ari ibitanga nk'umuyaga aho hantu bicaye. Imbere yabo mu mbuga y'aho hantu bicaye hakaba hari umuntu, biraraga ko hari imbwirwaruhame ashobora kuba ari kubagezaho.

Abantu bari ahantu bishobora kuba ari ahantu habereye ibirori runaka, abantu bakaba ari abantu ari benshi cyane, aho bari bakaba bakijwe n'ibiti birebire, aho hantu bari hakaba ari amahema yubatse arimo ibara ry'umweru hasi hakaba hagiyeho ibara rijya gusa n'umuhondo kandi ubururu n'umukara abantu, bakaba bambaye imyenda ifite amaba bara atandukanye bambaye imyenda ifite y'umukara n'umweru kandi no mu ngeri zitandukanye abana n'abakuru.

Umugabo uhagaze ahantu ufite mikoro mu ntoki ze, akaba ahagaze ahantu mu kibuga, inyuma ye hakaba hari ubusitani buteyemo ibyatsi byiza, ababa afite indangururamajwi mu ntoki ze, akaba yambaye umupira uri mabara y'umweru n'umukara, umupiruka wanditseho mirongo itatu nk'ikimenyetso kigaragaza kwibuka ku kandi kaboko.

Abagabo batatu bahagaze ahantu kumurongo wambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, umwe yambaye imyenda ifite amabara y'umweru n'umukara, undi yambaye ifite amabara ajya gusa n'umutuku n'umukara, undi yambaye umweru, umutuku n'umukara. Umwe muri bo afite telefone, undi afite ikaye mu ntoki. Nyuma yaho bikaba bigaragara ko hubatse ishuri hakaba hateye imbere yaryo ubusitani.

Inzu iri mu mabara y'ivu, imbere hakaba hari itara na ryo riri mu mabara y'ivu, iryo tara rikaba riri kwaka, bika bigaragara ko aho hantu ari ku rwibutso rwa Jenoside, yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ikenda na kane, urwo rumuri na rwo rukaba ruri kwaka.

Abantu bahagaze ahantu hamwe ku murongo inyuma yabo hakaba hari abandi bicaye, abantu bakaba bari mu ngeri zigiye zitandukanye harimo abagore, abagabo, abasaza n'abasore bakiri bato, inyuma yabo aho hantu bari bakikijwe n'ibiti.

Abantu bakoraniye hamwe bigaragara ko basabwa gukora igikorwa'dakunze kwita umuganda abantu bakaba bambaye imyenda n'amabaragiye atandukanye bambaye imyenda y'umukara abandimbaye'umweru abandi bambaye imyenda wiganjemo afite ibara ry'icyatsi n'umukara hasi, hirya hakaba hateye ibiti byinshi hakurya ku musozi hakaba hatuye abantu.

Abagabo bane bahagaze ahantu bigaragara ko har'ibintu bari gutekereza cyangwa se bari kwigaho, muri aba bagabo hakaba harimo umukozi ushinzwe umutekano abo dukunze kwita abapolisi, abagabo bakaba bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye ayiganjemo umweru n'umukara, umwe muri bo akaba yambaye ipantaro y'ikigina, hafi yabo cyangwa se hakaba hateye urutoki.

Inzu rushobora kubabwira ko ari inzu ya Leta, iyo nzu ikaba yubakishijwe amatafari, ikaba ifite inzugi n'amadirishya biri mu ibara ry'umukara, iruhande rw'iyo nzu hakaba hari ikigega, kuri icyo kigega hakaba hicayeho umwana, inyuma y'iyo nzu bikaba bigaragara ko hateye ibiti.

Abantu bicaye ahantu hamwe hasi bigaragarako bashobora kuba bari nko mu nama inyuma hakaba hari abandi bahagaze, muri abo bahagaze hakaba harimo umukozi ushinzwe umutekano abo dukunze kwita umudaso yambaye impuzankano iri mwibara ry'icyatsi, abantu bicaye bakaba bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanya: umweruumukara, umukara, ubururu, umuhodo, umutuku. Bakaba bicaye bahanze amaso imbere bigaragarako hari umuntu imbere yabo ushobora kuba arikugira ibyo abagezaho.

Abantu bigaragara ko ari abantu bakorera Leta, bahagaze ahantu hamwe ku murongo, bakaba bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, harimo abambaye imyenda ifite amabara y'umukara, abandi bambaye imyenda ifite imabara y'umweru, muri abo bantu hakaba harimo n'umukozi ushinzwe umutekano wa Leta wambaye impuzankano, ari we twita umusirikare.

Abantu bicaye ahantu bigaragara ko bashobora kuba bari mu nama abantu bakaba bari mu ngeri zitandukanye harimo abagabo n'abagore abantu hakaba harimo abantu dukunze kwita abashinzwe umutekano abo twita abasirikare n'abaporisi.

Imodoka iri mu ibara ry'umutuku iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo iyo modoka ikaba ari imodoka iyi dusanzwe tuzi abantu bifashisha batemberamo iruhande rwayo mu muhanda haka hakikijwe n'izindi nyubako zitondetse ku murongo.

Imodoka yumweru iri mumuhanda iri kugenda yanditseho ibigaragaza nyiri iyo modoka mu ibara ry'ubururu n'icyatsi. Imodoka ikaba iri kugenda mu muhanda wamabuye imbere yayo hakaba hari abantu nabo bari kugenda mu muhanda wamabuye.

Umuntu uri kugendera kuri moto umuntu akaba yambaye imyenda iri mu mamabara y'umukara n'umweru, akaba yambaye ipantaro y'umukara, akaba yambaye ikote riri mu mabara y'umweru n'umukara, akaba yambaye inkweto z'umweru moto ari kugendaho ikaba ifite amabara y'umweru n'umutuku n'utubara tw'ubururu n'umuhondo imbere.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, gishushanyijeho urusengero, cyandikishije amagambo mu ibara ry'umukara, hakurya y'icyo cyapa urebye hakaba hari inzu, ifite amabati y'umutuku, iruhande rw'icyo cyapa hakaba hari umuhanda wa kaburimbo, ku rundi ruhande hakaba hateye ibiti.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iyo modoka ikaba iririmo ibara ry'umweru, ifite amapine y'umukara, kaburimbo iri kugendamo ikaba ikikijwe ku ruhande n'uduhanda dutoya tugizwe n'amabuye, ahandi tukaba tugizwe n'ubusitani buteyemo ibyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ubusitaniteyemo indabo cyangwa se ibyatsi byiza, uwo muhanda ukaba uteweho ibiti birebire, hakurya yaho hakaba hagaragara inzu nini cyane, kuri uwo muhanda hakaba hari n'icyapa kigaragaza cyangwa se gishobora kurangira umuntu umurangira aho uri.

Abagabo babiri bari kugendera kuri moto ku murongo, moto bari kugendaho zikaba zifite ibara ry'umukara n'ibara ry'umuhondo n'umutuku inyuma, aba bagabo bari kugendera kuri moto mu buryo bagiye baringaniye, baka bariri kugendera ku muhanda w'amabuye ukikijwe n'ubusitani, buteyemo ibyatsi.

Umumotari cyangwa se ushinzwe gutwara abantu kuri moto, uri kuri moto akaba ahagararanye n'undi mubyeyi wambaye ikanzu y'umutuku n'ingofero y'umweru bigaragara ko uwo mubyeyi ashobora kuba ari gutega umumotari ngo agere aho amuvana, agire aho amujyana. Iruhande rwabo akaba hari inzu yubakishije amatafari afite amabara y'umweru hakaba hari n'indi ifite amabara y'umweru, ifite n'inzugi zifite amabara ajya gusa n'ivu ahandi umuhondo.

Icyapa cyo ku muhanda kiriamabara y'umweru n'umutuku, imibare yanditse kuri icyo cyapa ikaba yandikishije ibara ry'umukara, icyo cyapa kikaba giteye ahantura bigaraga ko ari ahantu mu byatsi, ibyatsi harimo n'ibiti birebire urebye hakurya ukaba uhabona inzu iri mu mabara y'umweru.

Icyapa kiri ahantu kigaragaza amerekezo cyangwa kirangira abantu aho hantu, icyo cyapa kikaba kiri mu mabara ibara ry'ubururu kikaba cyanditsew ibara ry'umweru kiba gifite ubuso cyangwa se umuzenguruko wacyo ukaba ukozwe mu ibara ry'umukara, icyo cyapa kikaba giteye ahantu hari ibyatsi inyuma yacyo hakaba hari ibiti birebire.

Inzu yubatsa abantu mu gipangu iyo nzu ikaba ifite amabati afite ibara ry'umutuku icyo gipangu gikikije kikaba gifite ibara isa n'ibitaka hafi y'icyo gipangu kikaba gikikijwe n'ibiti birebire imbere y'icyo gipangu hakaba hateye hateye ibyatsi bitoya.

Abakozi bashinzwe umutekano bamwe dukunze kwita abasirikare bigaragara ko bashobora kuba bari mu kazi kabo kuko bambaye impuzankano. Umwe yambaye impuzankano hose undi yambaye impunzankano hejuru y'umupira agaragara nk'uwakuyemo ikoti hafi yabo iruhande rwabo hari abagabo n'abagore benshi bigaragara ko bari guhinga hirya yabo hakaba hari imibyare cyangwa se urutoki.

Abantu bateraniye ahantu hamwe kubera ko baje mu nama. Abantu bakaba bari kumirongo, imbere yabo hakaba hari abantu bigaragara ko hashobora kuba hari nk'imbwihamya bari kubabwira. Aho hantu bahagaze hakaba hari ibiti birebire cyane bigaragara ko ari ibitanga umuyaga.

Abantu bari ahantu hamwe bigaragara ko bari gukora igikorwa dukunze kwita umuganda, muri abo bantu hakaba harimo abashinzwe umutekano b'inzego zitandukanye, hakaba harimo abo dukunze kwita abasirikare, bakaba barimo abo dukunze kwita abadaso bakaba bari kumwe n'abaturage bari kwifatanya muri icyo gikorwa cyo gukora umuganda, bari ahantu mu murima bari gukata ibiti.

Abantu bateraniye hamwe, bamwe bicaye abandi bahagaze, abantu bakaba bambaye imyenda y'amabara atandukanye. Harimo abambaye imyenda y'ubururu, imyenda y'umukara, imyenda y'umweru uvanze n'umukara. Imbere bakaba hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'ikigina, akaba afite icyapa cyanditseho ijambo gerayo amahoro.

Abantu bateraniye ahantu mu kibuga. Higanjemo abambaye impuzankano ifite ibara rijya gusa n'icyatsi hejuru. Bake muri bo bakaba bambaye umweru hejuru. Icyo kibuga bahagazemo hakaba hari inka nziza bigaragara ko bashobora kuba barimo gukora icyo dukunze kwita gira inka, bakaba baremeye umuntu bamuhaye iyo nka ngo na we abashe kujya kwiteza imbere.

Umudamu uhagaze imbere y'abantu, akaba afite mu ntoki ze indangururamajwi, bikaba bigaragara ko hari ibintu ari kugezaho abo bantu cyangwa se imbwirwaruhame ariko babwira. Uwo mudamu akaba yambaye amadarubindi ku mutwe atayambaye neza mu maso. Akaba inyuma ye hicaye abantu bari kumwumva cyangwa se bamuteze amatwi.

Abana b'abakobwa bigaragara ko bari gukina umupira, aba bana bakaba bambaye impuzankano zirimobaragi atandukanye, umwe muri bo yambaye impuzankano ifite amabara y'ubururu n'umweru n'amagisi y'umuhondo n'umukara hasi n'inkweto z'umweru, undi yambaye impuzankanno y'amabara y'umweru n'umukara n'amagisi afite ibara ry'umukara, inyuma yabo hakaba hari ibiti.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru uri ahantu mu kibuga, umukinnyi akaba yambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu n'umweru akaba yambaye amasogisi y'umweru akaba yambaye inkweto zifite amabara ajya gusa n'umuhondo urebeye hirya icyo kibuga hejuru yacyo hakaba hari ahantu hakoze nk'amaterasi hateyemo ibyatsi ahandi hari ubutaka bugaragara.

Ahantu mu kibuga bari kugenda bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri. Abantu bakaba bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, harimo abambaye imyenda ifite amabara y'ubururu, abandi bambaye imyenda ifite amabara y'umuhondo n'umukara, akaba harimo umudamu muri bo wambaye imyenda ifite amabara y'umukara n'umutuku, bikaba bigaragara ko bari ahantu mu kibuga gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu bari ahantu mu kibuga cy'umupira, bigaragarako bari gukina umupira ariko bigaragara ko atari abakinnyi babigize umwuga kuko batambaye impuzankano z'abakinnyi. Nk'uko tubimenyereye amakabutura cyangwa se imipira, bo bakaba bambaye amapantaro hari n'abambaye bote. Muri abo bantu harimo n'umukozi ushinzwe umutekano wambaye impuzankano abodakunze kwita abapolisi.

Abanyeshuri bateraniye ahantu hamwe, abo banyeshuri bakambaye impuzankano iri mu mabara y'icyatsi n'umweru utagaragara neza, muri abo banyeshuri hakaba harimo abandi bantu bigaragara ko atari abanyeshuri babwira ko abanyeshuri ushobora kuba bari nk'ahantu mu muhanda bava kwiga se cyangwa bajyayo.

Abana b'abakinnyi bari ahantu mu kibuga, bigaragara ko abo bana ari abakobwa, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara atandukanye, hari abambaye impuzankanda ziri mu mabara y'umutuku n'umweru, abandi bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu n'umweru, icyo kibuga barimo kiba kirimo ibyatsi by'icyatsi, bigaragara ko bari gukina umupira w'amaguru.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari ahantu mu kibuga bikaba bigaragara ko bashobora kuba bari gukina umupira, bakaba bambaye impuzankano bamwe iri mu ibara ry'ubururu n'umweru, abandi baka bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi, ikibuga barimo akaba ari ikibuga nacyo giteye imbere bigaragara ikibuga kiringaniye kirimo ubwatsi bubafasha kwirinda kuba bakomereka, hakurya y'iki kibuga hakaba hubatse amazu hakaba hanakikijwe n'ibiti.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu urimo amabara y'umukara, akaba afite terefone mu ntoki ze, akaba yambaye ingofero ifite amabara y'umukara n'umutuku. Iruhande rwe hakaba hari umwana wambaye umupira ufite amabara y'umweru umutuku, inyuma hakaba hari abandi bicaye bambaye imyenda ifite amabara y'umukara n'icyatsi abandi umukara hakaba hirya hari n'intebe z'uburu.

Abakinnyi b'umupira bari ahantu mu kibuga, abo bakinnyi bakaba barimo amoko abiri, harimo abambaye imyenda y'umuhondo hose, abandi bakaba bambaye imyenda y'ubururu, hasi bakaba bambaye amasogisi y'umweru n'inkweto z'ubururu, inyuma yabo hakaba hari ikibuga, bigaragara ko giteyemo ubwatsi ku ruhande rumwe, urundi ruhande hakaba nta byatsi biteyemo.

Abantu bicaye ahantu bigaragara ko ari nka hantu mu cyumba kinini cyane bakaba bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umukara, abo bantu bikaba bigaragara ko bareba imbere bikaba bigaragara ko bari nko kureba umupira cyangwa se hari umuntu uri kubabwira imbwirwaruhame uri imbere yabo, abantu bakaba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye umweru, ubururu, umukara, hakaba harimo n'abashinzwe umutekano bakunze kwita Abapolisi.

Abantu bari ahantu mu kibuga bari kugenda, muri bo hakaba harimo umwe ushinzwe umutekano abo dukunze kwita abasirikare. Uwo musirikare akaba yambaye impuzankano ye akaba ari kugendana n'undi mugabo ahantu mu kibuga inyuma yabo hakaba hari abandi bicaye n'abahagaze.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari ahantu mu kibuga, imbere hakaba hari kugaragara umukinnyi umwe wambaye impuzankano y'amabara y'umutuku hejuru n'umweru hasi akaba yambaye umukara amasogisi y'umweru n'umukara inkweto nazo zikaba zisa umweru n'umukara, urebeye hirya ugahita uhabona abandi bakinnyi bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'umukara n'ubururu ikibuga barimo kiba giteyemo ubwatsi bw'icyatsi.

Abakinnyi b'umupira bari ahantu mu kibuga, bigaragara ko bashobora kuba bari mu myitozo yabo, abo bakinnyi bakaba bambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu n'icyatsi, icyo kibuga barimo kikaba gikikijwe n'uruzitiro rwukishijwe amatafari, icyo kibuga kikaba kirimo ibyatsi by'icyatsi.

Umukinnyi w'umupira uri ahantu bigaragara ko ari mu kibuga, icyo kibuga arimo bikaba bigaragara ko ari ikibuga kitarimo ibyatsi, hakurya yacyo ahagikikije akaba ari ho bigaragara ko hari ibyatsi, hakurya ku rundi ruhande rwo hejuru hakabateye ibiti cyangwa se indabo, bigaragara ko zifite indabo z'umuhondo.

Umwana w'umukobwa uri ahantu bigaragara ko ari nkaho bigira ibigendanye no kurwanisha amaboko. Akaba yambaye impuzankano iri mu ibara ry'umutuku n'umweru mukeya. Uwo mwana w'umukobwa akaba yambaye ibirenge, amaboko ye yayatatanije kandi afite imisatsi miremire.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bigaragara ko bari mu kibuga cyabo, abakinnyi bambaye impuzankano z'amabarajya gusa n'umuhondo hejuru, hasi wambaye impuzankano zifite amabara y'umukara, bakaba bambaye inkweto zigiye zifite amabara atandukanye, zimwe zifite amabara y'ubururu n'izindi zifite amabara y'umutuku, icyo kibuga barimo kikaba kirimo ubwatsi, inyuma yabo hakaba hari inzu ndende bigaragara ko ariho abafana baza kubafana bicara.

Umugabo uri kugenda kuri moto, umugabo akaba ari kugenda kuri moto ifite amabara y'umukara, umuhondo n'umutuku. Akaba ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Hirya kuruhande rw'umuhanda hakaba hateye ibiti birebire bigaragara ko ari ibiti biteye mu buryo bwo kumurongo bikikije uwo muhanda.

Umugabo uri kugenda mu muhanda uwo mugabo akaba yambaye imyenda hejuru y'ikigina hasi ipantaro y'umukara akaba yambaye na bote zisa ibara ry'icyatsi hafi iruhande rwe hakaba hari undi musore nawe bari kugendana wambaye umupira w'ubururu ipantaro ya kaki n'inkweto z'umuhondo hakurya yabo hakaba hari ibiti warebeye ku kurundi ruhande hakaba hagiye hakikijwe n'amazu uwo muhanda.

Umugabo uri kuri moto uri kugenda mu muhanda akaba ahetse indi undi inyuma ye, akaba ari kugenda umuhanda wa kaburimbo, umuhanda ukaba ukikijwe n'indabo zifite amabara ajya gusa n'icyatsi n'umuhondo, umugabo akaba yambaye imyenda ijya gusa n'umweru uwo ahetse inyuma akaba yambaye imyenda yiganjemo umukara inyuma yabo hakaba hari undi mugabo uri ku igare ubakurikiye.

Umwana w'umuhungu uri kugenda mu muhanda, akaba ari kugenda mu muhanda ukikijwe n'amazu ku mpande zose. Umwana wumuhungu aka afite indobo mu ntoki, bigaragara ko ashobora kuba acururizamo amagi, umwana yambaye inkweto z'umuhondo, umupira w'icyatsi, yambaye n'ipantaro ijya gusa nki'ibara ry'ubururu. Inyuma hakaba hari inzu nini ifite amabati ajya gusa umukara, kurundi ruhande hakaba hari inzu nini ifite amabati ajya gusa umutuku.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, iyo modoka ikaba fite ibara ry'umutuku hejuru, hirya yayo ku ruhande rw'umuhanda hakaba hateye inkingi ndende zifatiyeho amatara amurikira umuhanda, hirya y'izo nkingi hakaba hari inzu, hirya y'izo nzu hakaba hateye ibiti byinshi, hafi y'izi nkingi zitwara umuriro w'amashanyarazi hakaba hari abantu bari kugenda.